Ifumbire mvaruganda ni ingenzi. Iyo uri umuturage ukayikoresha mu buhinzi bwawe, biragufasha bityo umusaruro ukazabasha kwiyongera, akenshi ikunda gukoreshwa mu buhinzi bw'ibigori bari kubikacura, ibirayi n'ibindi bihingwa bigiye bitandukanye.

Inanasi ni igihingwa cyiza iyo umuntu akiriye kimugirira akamaro. Niba nawe ujya uyirya uzi akamaro kayo kandi nawe ntiwagakerensa. Ituma umubiri ugira amaraso menshi kandi ikarinda impumuro mbi mu bice bitandukanye by'umubiri.

Ibyatsi ni ikintu cy'ingenzi, kuko usanga byifashishwa mu bintu bigiye bitandukanye harimo kubumba amatafari n'ibindi, nyamara nubwo bimeze uko, ibiti by'inturusu na byo ni ingenzi, ni ingirakamaro ku baturage, kuko bikurura imvura kandi bigatuma abantu bahumeka umwuka mwiza.

Ibihaza abinshi bakunze kwita inyungu, byifashishwa mu bikorwa bigiye bitandukanye, ni byiza rero ko niba ugiye ku isoko wagura umwungu, ukawuteka kuko uvura indwara zigiye zitandukanye ziganjemo iz'amagufwa yoroshye, n'izindi nk'iz'amaso n'ibindi.

Amatunda, agemekwa mu bihoho maze akitabwaho, buri munsi bayuhira kandi bayitaho cyane. Kugira ngo mu gihe bashyize mu murima, azaba afite ubudahangarwa, ahita akura neza. Yoye gupfa buri gihe, kandi hagakwiye kugira igikorwa, maze ntapfe.